Ifoto igaragaza imodoka, abantu bane bari mu mutaka wa emutiyene hafi y'akajaride gatoya ndetse n'umuntu wunamye arimo kuganira n'undi mu modoka.

Ifoto yerekana abantu benshi bibumbiye muri koperative, barimo bafata ifoto kugira ngo ijye ibabera urwibutso rw'ibyo bakorana.

Ihema, abashinzwe umutekano, igihembo, idaporo, imyenda ya dasso, abagore, abagabo n'ibindi.

Ifoto yerekana ahantu heza cyane, hari'inzitiramubu igitanda gisha neza aho batanga serivisi zo kwakira abantu baka bakayireba ndetse baka bahabonera serivisi zijyanye nibintu bitandukanye.

Ifoto yerekana ahantu hari ibitanda byiza hakoze neza. Ubona ko ari ahantu abantu bashobora kuza kuruhukira. Bakaba baharuhukira neza bafata akayaga, ahantu heza cyane.

Ifoto yerekana inzu ziri ku buso bugari aho ubona ko haparitse imodoka nyinshi cyane, abantu bashobora kuza bakaharuhukira bagafata icyo kurya, icyo kunywa ndetse bakaba baharara bakabyuka bajya mu kazi.

Umuhanda, ibyatsi, icyapa, inzu, ibiti, umuntu, umufuka, imyenda, inzu.

Inzu, intebe, ameza, abantu, ibiryo, televiziyo, imyenda.

Ifoto yerekana umumotari utwaye umugenzi muri kaburimbo, bose bambaye kasike ubona ko bubahiririje amategeko y'umuhanda, urabona ko ari umuhanda wa kaburimbo mwiza ufite isuku ahantu hagendeka neza ntakibazo.

ifoto yerekana abamotari barimo baragenda mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda ukoze umeze neza, ubona ko ari muhanda w'icyerekezo aho abantu bashobora kugenda mo bameze neza nta kibazo.

Ifoto yerekana aba motari ubona y'uko ari ahantu baparitse, moto zabo kugira ngo bategereze abagenzi. Urabona ko ari moto nziza cyane bambaye ikasike ibyangombwa byose barabifite.